Ibigo bishinzwe gutanga ubwishingizi, ni bimwe mu bigo bifasha abaturage, ibigo by'abikorera ndetse n'amakoperative muri rusange, uburyo bugezweho. Aho batanga ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo, ubwishingizi bw'amakoperative, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo cya Saniramuzi gikorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, gitanga ubwishingizi bwo kwivuza. Kikaba kiri mu bikorwa byo kwamamaza ibikorwa byabo, aho bamamaza yuko batanga ubwishingizi bujyanye no kwivuza.

Ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi buke butandukanye cya Radiant aho wakubwira ngo komeza wizigamire aho wazigamira n'umuryango wawe cyangwa umwana wawe kikaba gitanga ubwishingizi buryo butandukanye harimo ubwishingi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo bwaba bwarashyizeho uburyo wakwifashisha telefoni hagendanwa ukana kanyenyeri magana atanu mirongo itatu nari mu rwego ugakurikiza amabwiriza.

Ibigo bishinzwe gutanga ubwishingizi, ni bimwe mu bigo bifasha abaturage mu buryo bwiza kandi bugezweho, aho batanga ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'ubutaka ndetse n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amabanki aba aha iwacu mu Rwanda agaragaza uburyo batanga serivisi zigiye zitandukanye. Harimo serivisi zo kubitsa, izo kubikura, izo kuvunjisha amafaranga ndetse n'uburyo wakwishyura ukoresheje ikarita ndetse n'uburyo bwo kwizigamira waba uzigamira umuryango wawe, abana bawe, cyangwa utanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga cyangwa ubw'inzu yawe.

Iduka ricuruza inkweto zigiye zitandukanye, akaba ari inkweto wakwifashisha uri muri siporo cyangwa inkweto wakwifashisha ugiye ahantu mu nama, mu butembere cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye.

Iduka ricuruza imyenda, imitako ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye wakwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Aho dusangamo imyenda y'abagore, imyenda y'abagabo ndetse n'imitako. Ikaba ari imyenda ikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Iduka ricuruza inkweto z'ubwoko bwinshi, aho bacuruza inkweto z'abagore, inkweto z'abagabo ndetse n'inkweto z'abana, zikaba ari inkweto zikozwe mu mpu, impu zijyiye zitandukanye harimo impu z'inka, irimo z'ihene ndetse n'izindi mpu z'ubwoko bwinshi ndetse n'indi mitako igiye itandukanye y'ubwiza.

Iduka ricuruza imyambaro, inkweto n’ibindi bigiye bitandukanye. Hakaba hari akabati kamanitsemo imyenda, ndetse n’inkweto bitandukanye. Hanze hakaba hari igishushanyo kimanitse imyenda igaragaza ubwoko bw’imyenda iryo duka ricuruza.

Inzu nshyashya igurishwa mu mujyi wa kigali mu gace ka kanombe ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'imwe z'amanyarwanda, iyo nzu iri mu bwoko bwa cadasiteri isakajwe amabati ya shokora ndetse inzugi zayo zisa umukara ikaba iteye irangi ry'icyatsi, imbere y'iyo nzu hubatswe amapave.

Iri ni iduka ricuruza imyambaro igiye itandukanye; harimo amakoti yo kwifubika, amakoti yo kujyana ku kazi, amashati, imipira ndetse n'ibindi by'ubwoko bwinshi; aho babikugezaho cyangwa ukaza guhaha muri iryo duka.

Iduka rucuruza imyenda itandukanye, akaba ari imyenda ikorwa mu bitenge, akaba ari imyenda ikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari imyambaro y'abagore, abagabo abana, abasore , abadamu ndetse n'abagore.

Iduka ricuruza imyambaro igiye itandukanye, hakaba harimo abakobwa babiri baje kwigurira iyo myambaro akaba ari imyambaro y'abadamu ndetse n'imyenda y'abagabo, akaba ari imyambaro myiza kandi ikorerwa mu gihugu cyacu aho buri muturage yabasha kujya guhaha aho ibiciro biba biri hasi.

Ikigo gishinzwe kugurisha imodokari cy'Akagera Motos kikaba ari ikigo kigurisha imodokari zo mu bwoko bwinshi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu ngendo, harimo amamoto, amagare, imodokari n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ikigo gishinzwe kugurisha imodokari ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye, aba akaba ari abagabo babiri bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'amakositimu, hakaba hari uwaje kugura ndetse n'ugurisha, akaba ari ikigo cy'Akagera motozi.

Gishinzwe kugurisha imodokari ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye, aho abaturage baza baje kugura ibyo binyabiziga cyangwa se n'ibindi bigo by'abikorera cyangwa se ibigo bya leta.

Ikigo gishinzwe kugurisha ibinyabiziga kikaba ari ikigo cy'akagera kikaba kigurisha imodoka zo mu bwoko butandukanye yaba izitwara abantu muri rusange iz'abantu ku giti cyabo ndetse kikaba kinagurisha imodoka ku biciro bitoya.

Ibikorwa remezo mu gihugu cyacu ni bimwe mu biteza imbere igihugu cyacu aho umuturage ashishikarizwa gusura kugira ngo yubake iterambere ry'igihugu cye twavugamo amapoto y'amashanyarazi imihanda amazu amavuriro amashuri ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Imodoka nziza cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ari imodoka ya Toyota RAV4 hybrid, ikaba ari imodoka igurishwa amafaranga miliyoni mirongo itatu z'amanyarwanda, akaba ari imodoka y'umukara, ikoresha umuriro, ndetse ikaba ikoresha n'amavuta.

Igurishwa akaba ari imodoka ya suzuki kiya, akaba ari imodoka igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni cumi na zirindwi, akaba ari imodoka iparitse ahantu mu kibuga imodoka isa umweru nziza cyane.

Inzu igurisharizwamo imodokari, zikaba ari imodokari zikorerwa hanze y'u Rwanda, ariko zikaza guteranyirizwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho usanga ari imodokari nziza cyane zidakoresha ibyangiza ikirere ahubwo zigakoresha ibikomoka ku muriro w'amashanyarazi.

Imodoka nini z'ikigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda cya RCS, aho zitwara abantu zibajyana kuburana; cyangwa zibajyana kwa muganga zikabajyana mu gihe gitoya.

Igurishwa akaba ari imodoka yifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Akaba ari imodoka ifite purake eri a de magana atanu mirongo itatu na kabiri ke, ikaba ihagazweho n'abagabo babiri mbere ugura ndetse n'ugurisha.

Imodoka yikoreye imizigo yo mu bwoko bwa hoho isa umweru, inyuma yayo hakaba hari inzu ndende ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu ku hande hakaba hari indi hoho ifite amarange y'umutuku.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Aha ni aho batangira serivisi zijyanye n'amafaranga, aho hari umuntu wambaye ishati, afite n'umupira w'umutuku ku rutugu, hakaba hari n'undi muntu mu kazu k'ibirahure uri kumuha serivisi zijyanye n'amafaranga, aho yambaye umupira w'ubururu , mo imbere ishati, akaba afite, akaba yambaye n'ikarita mu ijosi igaragaza ikigo akorera.

Aho abaturage babitsa ndetse bakanaza kubikura amafaranga, akaba ari mu mabanki agiye atandukanye ndetse n'ibindi bigo byikorera, hakaba hari abaturage baje bayigana aho baje kwaka serivise zigiye zitandukanye zirimo kubitsa ndetse no kubikura amafaranga.

Umuntu ufite amafaranga agiye atandukanye mu biganza bye, akaba ari amafaranga menshi, kandi zikaba ari inoti z'igihumbi, aho wayazana mu Rwanda ukabasha kwihahira ibiribwa bigiye bitandukanye, ndetse n'ibinyobwa.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki ndetse ku ruhande hakaba harambitswe n'andi mafaranga y'ubwoko bwinshi, akaba ari amafaranga y'ubwoko butandukanye, ari amafaranga y'inoti ndetse n'amafaranga y'ibiceri, imbere ye kandi hakaba hari n'imashini zifashishwa mu kubara ayo mafaranga.

uyu ni umuntu uri kwaka serivisi aho ariko serivisi yo kuvunjishizwa amafaranga aho ari gutanga amafaranga y'amadolari umuntu uri gutanga amafaranga kuri banki ari kuvunjisha akaba ari gutanga inoti y’ijana ry'idolari ndetse n'andi mafaranga menshi mu biganza bye . Hakaba hari undi muntu uri kumuvunjira akaba ari kumuha amafaranga y'amarundi.

Amabanki n'ibindi bigo by'imari byakira abantu bikabafasha mu buryo bwo kubika amafaranga igihe kinini, aho umuturage azana amafaranga bakabasha kuyamubikira ndetse agahabwa n'inguzanyo bitewe n'amafaranga afite.

Iduka ricuruza ibikomoka ku matungo ndetse n'ibiribwa bitandukanye, hakaba hari icyapa cyanditseho ikaze dayari, hakaba hariho amata yo mu dukombe, amata yo mudukarito, ji zo mu dukarito, ji zo mu dupipiri, hakaba hari n'icyapa ki kiriho imbuto z'ubwoko bwinshi zifashishwa mu ntungamubiri za buri munsi.

Inganda ndetse n'ibindi bihugu bitunganya umusaruro ukomoka ku mata, nimwe mu bifasha abaturage kujyana umusaruro wabo bakabasha kuwubatunganyiriza ayo mata azabikwa igihe kirekire kandi neza, aho amata afungwa mu bipimo bigiye bitandukanye yaba utujerikani ,udukumbe, ndetse n'udupipiri.

Iduka ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, yaba ibikomoka mu nganda cyangwa se ibikomoka ku matungo, twavugamo n'amata, icyayi, capati, amandazi ndetse na keke.

Mu Rwanda hakunze kugaragara inganda nyinshi zitunganya umusaruro ukomotse ku mata, ndetse ayo mata akoherezwa mu maduka agacuruzwa ndetse n'abantu bakaba babasha kuyarangura. Aho twavuga ko aturuka nko mu karere ka Nyanza mu karere ka Nyabihu ndetse n'uruganda rw'Inyange indasitiri.

Hari amaduka menshi acuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo amata ndetse n'ibindi binyobwa by'ubwoko bwinshi aho dusanga n'ibyuma bitunganya ayo mata kugirango ngo azabashe kubikwa igihe kinini kandi neza.

Iduka ricuruza ibiribwa ndetse n'inyobwa biye bitandukanye, yaba ibikomoka ku matungo harimo nk'amagi amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakabamo nk'ibikomoka ku buhinzi imineke ndetse n'ibindi biribwa byinshi bigira ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Hashyizweho uburyo bwinshi wakishyura ukoresheje telefone ngendanwa cyangwa mudasobwa yawe, aho ibigo byinshi by'abikorera, ndetse n'iby'amakampanyi agiye atandukanye, byashyizeho uburyo bwo kwishyura ukoresheje interinete.

Hari uburyo bwinshi wakwishyuramo ukoresheje mudasobwa yawe cyangwa telefoni yawe ngendanwa, aho ushyiramo imibare yabugenewe hanyuma ukemezamo n'amafaranga ukabasha kwishyura umucuruzi igicuruzwa waguze cyangwa indi serivisi wahawe.

Ikoranabuhanga ryarabyoroheje aho ubu wakwishyura ukoresheje amafaranga ufite kuri telefone, aho ushyiramo nimero y'umucuruzi cyangwa indi kode iyo ariyo yose akoresha, hanyuma ukaba wabasha kwishyura ukoresheje telefone utarinze kujya ugendana amafaranga mu ntoki.

Ikigo cy'Igihugu cya RRA gishinzwe imisoro n'amahoro, gishishikariza buri muturage gutanga umusoro. Hanyuma akiyubakira igihugu cye. Aho muri ibyo bikorwa remezo byubakwa hagamijwe umusoro watanze twavugamo amashuri, amavuriro, imihanda, amazi ndetse n'amashanyarazi byegerezwa abaturage.

Inyandiko igaragaza uburyo amafaranga yagiye akoreshwamo, ibigo byinshi by'aba ibyabikorera iby'abantu muri rusange ndetse n'ibya leta, bigaragaza inyandiko y'uburyo amafaranga yagiye asohokamo yaba arayinjiye cyangwa yasohotse.

Ikigo gishinzwe umusoro n'amahoro cya Rwanda Revenue Authority gishishikariza buri muguzi kwaka inyemezabwishyu mu gihe hari igicuruzwa aguze, kikanashishikariza kandi buri mucuruzi gutanga inyemezabuguzi mu gihe hari igicuruzwa agurishije.

Ikigo cy'igihugu cya Rwanda Revenue Authority ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bashishikariza umuguzi kwaka inyemezabwishyu mu gihe icyo ari cyo cyose aguze ikintu, kandi kikanashishikariza ucuruje gutanga inyemezabwishyu mu gihe umuturage ayimusabye.

Iyi ni inyandiko ikoreshwa mu mabanki aho igaragaza uburyo wabikije, wabikuje cyangwa kohereza amafaranga, ikaba ari inyandiko ikoreshwa n'amabanki menshi y'aha mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye.

Inyandiko itangwa n'umucuruzi igahabwa umuguzi, igaragaraza uburyo amafaranga yishyuwemo cyangwa amafaranga yakoreshwejwemo, aho iyo nyandiko iba iriho ibigaragaza uburyo amafaranga yagiye akoreshejwemo.

Abantu bafite amafaranga mu biganza byabo, akaba ari amafaranga y'amadolari andi akaba ari amafaranga y'amanyakenya. Bakaba bari mu ihererekanya ry'amafaranga, aho bari mu ivunjisha cyangwa se bari mu igura ndetse n'igurisha.

Imashini yifashishwa mu kubara amafaranga, akaba ari imashini iri gukoreshwa n'abantu babiri akaba harimo amafaranga y'amadolari. Ayo mafaranga akaba ari amafaranga yakoreshwa mu gihugu icyo ari cyo cyose ku isi hose.

Afite inoti ebyiri mu biganza bye zikaba ari inoti ebyiri zitandukanye zikaba ari amafaranga yifashishwa mu gihugu cy'ubuhinde aho wayazana mu bihugu bitandukanye ukabasha guhabwa andi mafaranga ukeneye.

Amafaranga y'amadorari akaba ari amafaranga arambitse ndetse anafunze mu bipimo bigiye bitandukanye, akaba ari amafaranga y'inoti z'ijana, aho wayazana mu Rwanda ukihahira ibicuruzwa bigiye bitandukanye cyangwa aho wajya mu gihugu icyo ari cyo cyose ukaba wabasha kuyakoresha ugura cyangwa unagurisha bitewe n'ibyo ukeneye.

Imashini ibara amafaranga, aho hari umuntu uri gushyiramo amafaranga, agira ngo imufashe kubara amafaranga, hirya akaba afite imashini mu ntoki benshi bazi nka raputopu cyangwa mudasobwa.

Ubu ni uburyo abaguzi cyangwa abacuruzi bakoresha bahererekanya amafaranga mu ntoki, aho bari guhererekanya amafaranga y'amadolari ndetse n'amafaranga y'amayero. Akaba ari inoti z'amadorari, iz'ijana, hejuru hakaba hari n'amafaranga y'amayero ijana ndetse hakaba n'inote ya mirongo itanu.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bifasha abaturage mu ivunjisha ry'amafaranga, aho ujyana amafaranga ayo ari yo yose yo mu kindi gihugu, hanyuma wowe bakabasha kuguha andi mafaranga ukeneye yo mu bindi bihugu bitandukanye waba urimo, aho uherereye hose.

Urutonde rugaragaza igura n'igurisha byo mu bihugu bitandukanye bya hano muri afurika ndetse no ku isi yose hakaba hariho igihugu amerika, mu bwongereza, tanzania, u burundi, cote d'ivoire ndetse na netland hakaba hariho buri gihugu n'uko wagenda ugurisha n'uko wagenda ugura ugeze muri icyo gihugu.

Igura n'igurisha ku masoko, aho buri gihugu gifite amafaranga kigenda gikoresha ndetse ayo waba ufite ukabasha kuba wajya mu gihugu icyo ari cyo cyose bakabasha kukuvunjira, bakaguha amafaranga yo muri icyo gihugu ugezemo, bitewe n'agaciro ka buri gihugu bitewe n'agaciro k'amafaranga ka buri gihugu.

Umuntu ufite inote icumi z'amayero mu kiganza, zikaba ari inote za mirongo itanu zikaba ari inoti zishushanyijeho inzu ndetse zikaba hagaragara ko hari ero y'amanya Egypt.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bikora ivunja ry'amafaranga, aho ujyana amafarangajya yo mu kindi gihugu hanyuma wowe bakabasha kukuvunjira bakaguha amafaranga ukeneye ayo ariyo yose yaba arimanyarwanda cyangwa ayo mu bindi bihugu.

Ibigo bikora ivunjisha ni ibigo byinshi kandi bigezwaho mu gihugu cyacu aho uzana amafaranga yo mu bindi bihugu bo bakabasha kukuvunjira bakaguha amafaranga ayo ariyo yose ukeneye kandi bakaba banakora uburyo wohereza amafaranga mu bihugu bindi bigiye bitandukanye hanyuma akagerayo yamaze kwivunja amafaranga bakeneye.

Hari ibigo byinshi bigufasha mu ivunjisha ry'amafaranga, aho ujyana amafaranga ayo ari yo yose yujuje ubuziranenge, hanyuma wowe akabasha kuyakuvunjira bakaguhamo amafaranga ukeneye. Yaba ari amafaranga y'amanyarwanda, ay'amadolari cyangwa ayo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye.

Inzu y'ikigo cy'igihugu cya westani yuniyoni, aho bavunja ndetse bakanavunjisha amafaranga aho uzana amafaranga y'amadolari bakabasha kuguha amafaranga y'abanyarwanda cyangwa bakaguha andi mafaranga wifuza bitewe n'andi mafaranga ukeneye aho wazanamo amafaranga y'amanyarwanda ushaka amatanzaniya nayo bakayaguha.

Ibigo byinshi bikorera mu gihugu cyacu, hari ibigo bifasha kuvunjisha amafaranga abaturage bagiye bafite. Yaba ari amafaranga uvanye mu kindi gihugu, cyangwa se ari amafaranga wohererejwe n'undi muntu utuye hanze y'igihugu cyacu.

Icyapa kigaragaza aho wagana bakabasha kukuvunjira amafaranga y'ubwoko butandukanye, aho waba ufite amafaranga y'Amadorari, Amashiringi ,Amanyakenya cyangwa Amayero, bakabasha kukuvunjira bakaguha amafaranga yandi wifuza.

Iyi foto iratwereka icyapa cya eyateri ikatwereka umuntu ufashe urupapuro mu kuboko kw'ibumoso ndetse akaba afite na terefone mu kuboko k'iburyo akaba ari gufotora urupapuro.

Intebe ndetse n'ameza byifashishwa mu ngo z'abaturage cyangwa mu mahoteli agiye atandukanye. Akaba ari intebe zikorerwa hano iwacu mu Rwanda cyangwa zikaba zinaturuka hanze y'igihugu cyacu. Zikaba ari intebe ndetse n'ameza biba bikoze mu biti.

Ibikoresho byifashishwa mu nzu, bikaba ari ibikoresho bikozwe mu mbaho aho hariho intebe ifatanye n'amezaza yayo, bikaba ari ibikoresho byiza wakwifashisha uri kumwe n'umuryango wawe cyangwa se n'inshuti none bikaba byakwifashishwa mu mahoteli cyangwa amaresitora agiyetandukanye.

Ameza, intebe ndetse n'imitako biri mu nzu nziza, akaba ari imitako ndetse n'intebe bibajwe mu biti, akaba asize amarangi agiye atandukanye, aho biteretse mu nzu aho bigurishirizwa.

Ibikoresho byo mu nzu harimo intebe z’imisego, utubati, intebe zo kuriraho, intebe zo kuruhukiraho, ameza ndetse n’indi mitako igiye itandukanye. Aho biri mu nzu y’umweru isize amarangi y’umweru, ndetse harimo n’amatara meza cyane.

Ibikoresho byo mu nzu aho ari intebe ndetse n'utubati, intebe zibaje mu giti ndetse n'akabati kabaje mu giti, aho ari intebe basiga verine ndetse zikaba ari intebe washyira muri saro mu ruganiriro rwawe, cyangwa aho warira ukaba wanazihatereka.

Intebe nziza cyane z'imisego, zifite ibara rya shokora, zikaba ari intebe zo muri saro, aho wazishyira muri saro yawe, aho wakirira abashyitsi, hirya yaho hakaba hari urukuta rw'amatafari, hejuru y'izo ntebe hakaba hari imitako itatu, isa umukara cyangwa ifite ibara risa umukara.

Hoteri nziza cyane yakira abaturage baje bayigana akaba ari hoteli ifite ubwogero akabari ndetse n'icyokezo, aho bokerereza inyama hakaba hari naho bakirariye abakiriya, ameza aho ibitambaro by'umweru byiza ndetse n'amatara y'ubwoko bwinshi.

Hoteri nziza irimo intebe, ubusitani ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kuri kontwari hakaba hari ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibindi wakwifashisha waje kuruhukira aho hantu, harimo ibinyobwa bisembuye, ndetse n'ibidasembuye.

Hoteli nziza cyane yari ahantu hitaruye aho ubona imisozi, ibibaya ndetse n'ibidukikije byiza, aho hari amahumbezi bigaragara ko hari intebe nziza cyane ndetse n'ameza waruhukira uri kumwe n'abawe ndetse n'umuryango wawe.

Hoteli yakira abantu baje bayigana yaba ari abaturutse hanze y'igihugu cyangwa se ab'imbere mu gihugu, akaba ari hoteli ifite ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bibiri bitandukanye, yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, yaba ibiribwa, bikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka ku buhinzi.

Hotele nziza cyane ndetse ifite n'ubwogero akaba ari hoteli yakira abakiliya baje bayigana yaba ari abaturutse hanze y'u rwanda ndetse n'abari imbere mu gihugu cy'u rwanda, akaba ari hoteli ifite amahumbezi meza cyane aho hari n'ubusitani ndetse n'ishyamba baruhukiramo uri gusura iyo hoteli.

Mu mahoteli tuhasangamo serivisi nyinshi zi zitandukanye, harimo serivisi z'ibiribwa, iz'ibinyobwa ndetse n'izindi serivisi nyinshi, harimo aho kuruhukira n'umuryango wawe, ubwogero, aho wafatira amafunguro ndetse n'aho waryama mu gihe waje kuruhukira muri iyi hoteli.

Amabare, amaresitora ni hamwe mu hasohokera abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga baje gusura igihugu cyacu, aho bahasanga ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye, ukahasanga ubwogero ndetse n'aho waruhukira wazanye n'inshuti zawe cyangwa n'umuryango wawe.

Amahoteli yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni amahoteli meza kandi yakira abantu b'ingeri zose. Aho wasangamo amacumbi, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Muri ibyo biribwa hakaba harimo ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka ku matungo. Mu binyobwa ukaba wasangamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Inzu ya hoteli aho batanga serivisi zigiye zitandukanye. aho batangamo serivisi z'ibiribwa na serivisi z'ibinyobwa, aho wasangamo na serivisi z'amacumbi, aho waruhukira wowe n'umuryango wawe cyangwa inshuti zawe; ikaba ari inzu nziza iteye amarangi y'umutuku, inzu yubakishije amakaro, ifitemo n'amatara y'ubwoko bwinshi.

Hoteli nziza yakira abakiriya baje bayigana, akaba ari hoteli irimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye. Yaba ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibyidasembuye. Akaba ari na hoteri ifite aho waruhukira ndetse n'ibyumba byo kuberamo inama.

Amahoteli ni kimwe mu bigize iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho Abanyarwanda ndetse n'Abanyamahanga baza kuruhukira mu gihe bari mu biruhuko by'akazi ,aho basangamo, ibinyobwa bitandukanye ndetse n'ibiribwa ,bakahasangamo ibyumba byo kuruhukiramo ibyumba by'ubwogero ,ndetse n'andi mafunguro agiye atandukanye.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bishinzwe gutanga ubwishingizi bugiye butandukanye. Twavugamo; ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'amatungo, ubwishingizi bw'abantu ndetse n'ubwishingizi bw'imirima muri rusange.

Inzu ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cya sonarwa, aho batanga ubwishingizi bugiye butandukanye, nk'ubwishingizi bw'amatungo, ubwishingizi bw'inzu, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubwishingizi bw'abantu muri rusange.

Inyubako y'amagorofa maremare akaba ari inyubako yubakishije ibirahure, iteye amarangi y'umweru, akaba ari inyubako ikoreramo ikigo gishinzwe ubwishingizi cya emu andi ayi insuwarenci, imbere yayo hari amadarapo ndetse n'ibiti by'indabo.

Inzu itangirwamo serivisi zijyanye n'ubwishingizi bugiye gutandukanye, akaba ari serivisi z'ubwishingizi twavugamo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'abantu, ubwishingizi bw'amatungo ndetse n'ubwishingizi bw'inzu yawe.

Inzu ikoreramo ikigo gitanga ubwishingizi bugiye butandukanye, akaba ari ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'ubwishingizi bw'imirimo muri rusange, akaba ari inzu nziza ifite naho waparika imodoka imbere yaho.

Inama iri gutangwa n'abayobozi ndetse n'abandi bagize ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda cya Prime Insurance, aho bari kubwira abaturage uburyo watanga ubwishingizi bwawe ayba ari ubwo kwivuza cyangwa ubw'ikinyabiziga cyawe ntuzabashe kurembera mu rugo cyangwa mu gihe ukoze impanuka ukabasha kubona ubutabazi bwihuse.

Hari ibigo byinshi bishinzwe gutanga serivise zijyanye n'ubwishingizi butandukanye; yaba ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amazu ndetse n'ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo.

Inzu y' ikigo cy' gihugu cya purayimu inshuwarensi, ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi mu Rwanda. Aho batanga ubwishingizi bw' ibinyabiziga, ubwishingizi bw' abantu ndetse n'ubwishingizi bundi bugiye butandukanye. Aho giherereye mu karere ka Rusizi ishami ryayo ikaba ariho rikorera. Inzu iteyeye amarangi y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ikigo k'igihugu cy'ubwishingizi cya Sonarwa, aho batanga serivisi zigiye zitandukanye, aho batanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, ku nzu, ku matungo, ku biribwa, ku mirima, ndetse no ku binyabiziga byawe.

Umuturage waje kwaka serivise kuri banki zijyanye no gusaba inguzanyo, aho usaba inguzanyo ukazayishyura mu gihe runaka watanze kuri banki, bakabasha kuguha inguzanyo, ukabasha kujya kwiteza imbere cyangwa se ugateza imbere igihugu cyawe.

Urupapuro rugaragaza ibikenerwa kugira ngo ubashe guhabwa inguzanyo, aho guhabwa inguzanyo utanga ingwate bitewe n'agaciro k'inguzanyo ukeneye haba umutungo wimukanwa cyangwa umutungo utimukanwa mu mitungo yawe kugira ngo uhabwe inguzanyo.

Amakoperative ndetse n'ibindi bigo by'abikorera, bitanga inguzanyo ku bantu benshi bagiye batandukanye, yaba abantu ku giti cyabo bikorera, amakoperative ndetse n'ibindi bigo by'imari bijya kwaka inguzanyo mu mabanke, bityo bakabasha guteza imbere imishinga yabo.

Kwaka inguzanyo mu ma banke kugira ngo biteze imbere, aho utanga ingwate ikigo cyangwa se banke ikaguha inguzanyo, yaba inguzanyo y'igihe kirekire cyangwa se inguzanyo y'igihe gitoya.

Isoko rimo ibiribwa bigiye bitandukanye, aho harimo: imbuto, imboga, ibikomoka ku matungo, ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibindi bitandukanye; aho harimo umucuruzi ufite imboga mu ntoki, ndetse hirya ku ruhande hakaba hateretse ibase irimo umuceri, ndetse n'ibindi biribwa byinshi.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta biririko irangi ry'ikijuju n'umweru, ririmo abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe, bicaye ku ntebe z'ibyuma z'ikijuju imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru n'icy'igitenge, giteretseho amacupa y'amazi ibitabo na telefoni.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ikingiki nuzakibona uri mu muhanda uzamenyeko uwo muhanda urimo uragendamo iburyo n'ibumoso hashamikiyeho utundi duhanda dutoya.

Iri ni isoko ricuruza imyenda y'ibitenge ndetse n'indi myenda igiye itandukanye aho harimo umugabo w'umucuruzi wifashe ku mazuru wambaye ishati, hirya hakaba hamanitse ubwoko bwinshi bw'ibitenge bugiye butandukanye, harimo ibitenge by'amafaranga menshi bitewe n'uko buri muturage yifite abasha guhaha.

Ku masoko tuhasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibiribwa bitandukanye imboga, imbuto ndetse n'ibitera imbaraga twavugamo: ibitoki, inyanya, karoti, ndetse n'ibitunguru. Aho hagaragara n'abaturage baje guhaha ibyo bicuruzwa kuri ayo masoko.

Isoko ricuruza ibiribwa, hakaba hateretse ibitoki byinshi bigaragara ko ari ku munsi w'isoko, hakaba haje urujya n'uruza rw'abantu abagura ndetse n'abagurisha rikaba ari isoko ryubakishije amabati y'ubururu.

Ku masoko yo mu Rwanda tuhabona ibiribwa bigiye bitandukanye yaba imbuto, imboga, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri, nko kuri iyi foto turahabonaho amashu, inyanya, karoti ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Abakozi b'umuyoboro wa Airtel Money, aho batanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo kugura amatelefone ngendanwa, mudasobwa ndetse bakanaguha ibihembo mu gihe wabaye ari umukiriya witwaye neza. Ubasha kugura interinete ndetse no kugura amayinite yo guhamagara.

Inzu y'umukozi wa emutiyene ifite ibara ry'umuhondo hejuru handitseho amagambo y'umukara, aho bakubwira ngo gura iyandikishe cyangwa ugure simukadi, aho hahagaze abagabo babiri umwe w'umuyisiramu, uhetse igikapu cy'umukara wambaye n'ikanzu y'ubururu n'undi wambaye ishati uri kwaka serivisi ku mucuruzi wa emutiyene.

Hashyizweho uburyo bwinshi bwo kwishyura ukoresheje terefone ngendanwa, aho ushyiramo nomero y'umucuruzi cyangwa kode iyo ari yo yose akoresha, hanyuma ukabasha gushyiramo umubare w'amafaranga mwavuganye, wowe ukishyura, icyo ureba n'amazina ye ndetse n'amafaranga ugiye kwishyura kwari kuri terefone yawe.

Ahatangirwa serivisi zijyanye na emutiyene savisi senta aho hari urugi n'uruza rw'abantu rwaje kugura amasimukadi guswapa, amasimukadi ndetse kugura imipira, ingofero ndetse no gufata impano abantu benshi bagiye batsindira muri tombora zitegurwa n'ikigo k'igihugu cya emutiyene .

Umuyoboro wa MTN washyizeho abakozi mu bice byo hirya no hino mu gihugu, aho batanga serivisi zigiye zitandukanye, ku baturage bakeneye serivisi zijyanye n'umuyoboro wa MTN izo arizo zose.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo kugenderamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, uyu muhanda ni mwiza ukikijwe n'ibiti by'amatara biwucanira ni mugoroba hatabona ndetse ukagira aho abanyamaguru bambukira, umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye, ndetse hirya hakaba hari ahapavomye, aho ariho abanyamaguru bagendera.

Ikigo gikorera kuri murandasi cyitwa safi, gishinzwe kugezaho abantu ibicuruzwa bagiye batumiza. Kikabibagezaho mu ngo zabo, ku kazi cyangwa ahandi hantu hatandukanye. Umuntu aho ari ho hose yaba aherereye icyo kigo kikabasha kumugezaho ibicuruzwa yatumije.

Ibihe byaroroshye aho wahaha ikintu wibereye mu rugo i wawe ukoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi. Aho utanga imyirondoro, amazina ndetse n'ibicuruzwa ukeneye hanyuma bakabasha kubikugezaho iwawe mu rugo cyangwa se ku kazi.

Hari amasoko menshi akorera kuri murandasi aho ubatuma ibicuruzwa ukeneye bakabasha kubikugezaho iwawe mu rugo wowe icyo utanga ni umwirondoro wawe ,amazina, ibikoresho ukeneye, ndetse n'aho utuye hanyuma bakabikugezaho aho uri iwawe mu rugo cyangwa ku kazi.

Hari amasoko menshi akorera kuri murandasi. Aho utumiza ibicuruzwa bakabasha kubikugezaho aho wibereye iwawe. Wowe icyo ukora ni ugutanga umwirondoro wawe ndetse ukanishyura ikiguzi cy'icyo gicuruzwa watumije.

Hari ibigo byinshi bikorera kuri murandasi aho wagura ndetse ukanagurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umuguzi ndetse n'umugurisha bahurira yaba ari uje kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'ugurisha, aho ugura atanga umwirondoro we aho aherereye ndetse n'ibicuruzwa akeneye bakabasha kubimugezaho iwe aho atuye.

Hari amasoko menshi akorera kuri murandasi, aho utanga umwirondoro wawe bakabasha kukugezaho igicuruzwa icyo ari cyo cyose ukeneye, aho utanga umwirondoro waho uherereye, amazina yawe ndetse ukanabasha kwishyura icyo gicuruzwa watumijeho hanyuma bakabikugezaho iwawe mu rugo.

Kuri murandasi hari amasoko menshi akoreraho aho wowe utumiza igicuruza wifuza wowe bakabasha kukigezaho iwawe icyo utanga wowe ni umwirondoro wawe aho utuye kandi ukabasha kuba wakwishyura icyo gicuruzwa nawe bakakikugezaho aho uri iwawe mu rugo cyangwa ku kazi.

Hari ibigo byinshi bikorera kuri murandasi bishinzwe kugeza aho ibicuruzwa ku bantu. Aho wowe icyo ukora ari ugutanga umwirondoro wawe, aho uherereye, amazina yawe ndetse ukanabasha kwishyura ibicuruzwa watumije bo bakabikugezaho aho wibereye., waba uri mu rugo, ku kazi cyangwa ahariho hose.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi aho bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amakote, amakanzu y'abagore ndetse n'amashati, hakabamo inkweto, hakabamo ingofero, imyenda y'abana, imisatsi ndetse n'ibikoresho wakifashisha n'imiti n'ibindi byinshi.

Hari ibigo bito ndetse n'ibinini, bikorera kuri murandasi. Aho utumizaho ibicuruzwa ukeneye bakabasha kubikugezaho mu rugo i wawe. Aho utanga umwirondoro wawe, ibicuruzwa ukeneye, ndetse n'ibindi bitandukanye, hanyuma bakabikugezaho mu rugo i wawe.

Amazu akodeshwa, ahari amazu meza cyane afite ubusitani ndetse n'ikibuga waparikamo imodoka yawe; ukaba wahagana uri umunyamahanga cyangwa uri umunyarwandakazi bakabasha kuguha serivise zigiye zitandukanye.

Inzu itanga serivisi zigiye zitandukanye harimo serivisi z'amacumbi, aho waruhukira wowe n'umuryango wawe cyangwa n'inshuti zawe, akaba ari inzu nziza ifite amakaro hasi kandi inafite ibyumba byo kuraramo ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye.

Icyumba waruhukiramo mu gihe ugiye kuruhukira muri hoteli cyangwa andi mazu agiye atandukanye mu gihugu cyacu cyangwa no hanze y'igihugu cyacu. Akaba ari icyumba cyiza kirimo uburiri ndetse n'utubati, inzugi nziza, ubwogero ndetse n'aho wakwifashisha ukora siporo.

Inzu ziherereye mu mujyi wa kigali ahari inzu zikodeshwa amadorari magana atanu na mirongo itanu zikaba ari inzu ndende zubatse mu buryo bugeretse zikaba ari inzu zubakishijeje amatafari, zifite parikingi ubusitani ndetse n'aho waruhukira wowe n'umuryango wawe.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ikaba ari inzu nziza cyane irimo intebe z'imisego ibikoresho byo mu gikoni ameza amatabule, amateleviziyo, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye akaba ari inzu ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu kuri buri kwezi.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali kabeza, akaba ari inze ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu, akaba ari inzu nziza ifite ibiryamirwa parikingi ndetse no mu bwogero ikaba ari inzu ifite amarido y'umukara ndetse n'amarido y'umweru.

Abagabo babiri bari imbere y'ikamyo umwe yambaye ishati y'amakaro undi yambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umweru, imbere y'iyo kamyo hari amagambo yandikishije umutuku hari n'ayandi yandikishije umukara.

Inzu nziza ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe. Ikaba ari inzu yubakishije amatafari, iteye sima, kandi ifite amabati y'umutuku. Ikaba ifite n'ikibuga kinini aho washyira imodoka zawe, mu gihe ubaye ufite imodokari.

Inzu nini nziza cyane kandi ikodeshwa, iteye amarangi y'umweru irimo amatara meza, irimo amakaro ndetse n'inzugi z'ubwoko bwose, ikaba ari inzu iherereye mu Kujyi wa Kigali Kanombe, aho ifite ibyumba bine byo kuraramo, ibyumba by'ubwogero butatu, akaba ari inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali Kacyiru ikaba ari inzu ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwogero bumwe, ikaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi.

Iyi ni inzu igurishwa aho bakubwira ko igurishwa miliyoni cumi na zirindwi, iherereye mu gace ka Kanzenze ahari inzu ifite ibirahure ikaba iteye na sima n'amabati mashyashya, ibyo birarahure bikaba ari ibya fime ifite n'inzugi za metalike.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali Kabeza ikaba ari inzu nziza y'umweru isize amarangi y'umweru, ikaba ari inzu igeretse inzu nini cyane ifite ubwiza buhebuje, ikaba ari inzu ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ibyumba bitatu by'ubwogero.

Inzu nziza cyane ikodeshwa, akaba ari inzu ikodeshwa amadolari mirongo itatu n'atanu. Akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ahari inzu ifite ikibuga waparikamo imodoka yawe ndetse n'ubusitani waruhukiramo wowe n'umuryango wawe.

Iyi ni inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, aho ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse n’ubwogero butatu. Iyo nzu ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi, aho inzu iiteye amarangi y’ubwoko bwinshi ndetse ikaba ifite n’ibirahure bigiye bitandukanye.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali Kabeza. Akaba ari inzu ikodeshwa, yubatse ahantu heza. Ikaba ifite n'ikibuga waparikamo ibinyabiziga byawe. Ikaba ifite amabati y'umutuku ndetse n'igipangu gisize amarangi y'ubwoko bugiye butandukanye.

Iduka ricuruza ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu aho harimo abacuruza ndetse n'abaje kugura mu bicuruzwa hakaba harimo amatapi yo mu nzu amatapi yo mu nama ndetse n'ibitambaro byo ku meza hakaba hamanitse n'icyapa cy'umuhondo cya sikolo.

Iduka ricuruza ibicuruza ibikoresho bitandukanye, wasangamo ibikoresho nka mudasobwa, ndetse n'amatelefoni, aho wasangamo n'ibikoresho bakifashisha mu buzima busanzwe, ndetse n'ibikoresho bakifashishwa mu bw'ubatsi.

Amaduka menshi acuruza ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ahangaha twavugamo iduka ricuruza indabo ndetse n'indi mitako igiye itandukanye wakwifashisha mu nzu mu busitani ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu rugo iwawe, cyangwa ku kazi ahatangirwa serivisi.

Ku masoko yo mu Rwanda tuhabona ibicuruzwa bigiye bitandukanye aho twavugamo imyambaro y'abagore n'imyambaro y'abagabo ndetse n'imyenda y'abana aho buri muturage abasha kwibona ku giciro icyo ari cyo cyose ukabasha guhaha akaba ari amasoko yubatse neza mu buryo bwa etaje cyangwa mu buryo bugerekeranye.

Iduka ricuruza imyambaro ndetse n'inkweto bitandukanye, akaba ari imyambaro myiza cyane yaba: iy'abagabo, iy'abagore, inkweto nziza, izikoze mu mpu, ndetse n'izituruka hanze igihugu cyacu.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amatara y'ubwoko bwinshi, amatelefone, mudasobwa, telefoni ngendanwa, ndetse n'imitako yo mu nzu, ukaba wahasanga ibikoresho byifashishwa, wajya kuri murandasi ndetse n'ibindi byinshi.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye. Hakaba harimo amatara y'ubwoko bwinshi ndetse hakaba harimo n'urujya n'uruza rw'abantu. Ukaba wasangamo ibikoresho nka mudasobwa, amatelefone, ibirahuri by'amatelefone, amabatiri ndetse n'ibindi wakwifashisha uri kuri murandasi.

Iri ni iduka ricuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye aho dusangamo amata y'Inyange, ji z'Inyange, amazi y'Inyange, amazi ya Nili ndetse n'andi mazi akorwa n'izindi nganda zigiye zitandukanye aho dusangamo n'ibindi bicuruzwa by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye. Hakaba harimo ikawa ndetse n'ibindi byinshi. Aho hahagaze umuntu ku ruhande wambaye kositimu z'umukara.

Tuhabona ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye yaba ibikorerwa mu nganda cyangwa se ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka ku matungo abantu benshi bagana ayo masoko bagiye guhaha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye. Aho nko muri iri soko harimo umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara bigaragara ko yaje kureba ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ku masoko, amabutiki ndetse n'amaresitora by'aha iwacu tuhasanga ibicuruzwa byinshi cyane: aho twavugamo amata, ibiribwa by'iby'ubwoko bwinshi bukomoka ku buhinzi, ibiribwa bikomoka ku matungo ndetse n'ibindi byinshi, aho tuhasanga urujya n'uruza rw'abantu rwaje guhaha ibyo bicuruzwa rwagannye ayo masoko.

Iduka ry'umukozi wa emutiyene aho wagurira ama inite, aho wagurira pake za internet, aho wagurira telefone, aho wagurira imipira cyangwa aho wagurira n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, haririmo imipira, ingofero n'udupipiri ndetse n'izindi poromosiyo za emutiyene.

Iduka ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa by'ubwoko bwinshi, aho harimo urujya n'uruza rw'abantu bigaragara yuko baje guhaha, hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'undi wambaye ishati y'umweru, hakaba hari n'undi muntu ku ruhande uri kureba ibikomoka ku mata wambaye umupira w'umukara, hakaba harimo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi bitewe n'icyo ushaka ukaba wahaha.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, rikaba ari isoko rya etaje. Hakaba hariho ibyapa bitandukanye, aho buri cyapa kigaragaza ibicuruzwa bagenda bafite. Hakaba hari abacuruza imyenda, abacuruza ibyo kurya, ndetse n'abacuruza ibyo kunywa.

Tuhasanga ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, yaba ibyifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ibyo kurya ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, aho buri muturage abasha kugana amasoko agahaha ibicuruzwa yifuza, byaba ibiribwa cyangwa se n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi, aho kiri gutanga ishimwe ku muturage witwaye neza; aho baguha ishimwe iyo witabira gahunda zabo ku gihe kandi vuba.

Abaturage bakunze kugana amavuriro baje kwaka serivisi zo kwivuza aho usanga bivuza bakoresheje uburyo butandukanye aho hari abakoresha ubwisungane mu kwivuza aribwo bwa mituweli hari abakoresheje rama ndetse n'abakoresheje emamayi cyangwa n'abandi bakoresheje ubwishingizi bundi muri rusange.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yakoreshwaga kera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho uwo muntu wayikoreshaga yari atuye mu mujyi wa Kigali Akarere ka Kicukiro, aho izi karita zaje gusimburwa n'izindi karita cyangwa irangamuntu ku muntu udafite irangamuntu agakoresha ikarita zisa ubururu, naho ufite irangamuntu akajyana irangamuntu akabasha guhabwa serivisi akeneye zijyanye n'ubuvuzi.

Ubwishingizi, ni bimwe mu bishyirwa imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho buri muturage ashishikarizwa gutanga ubwishingizi bwo kwivuza, kugira ngo igihe yarwaye atazarembera mu rugo. Aha ngaha turabona ko ari abantu b'Abisilamu, bafashijwe bakabasha kwishyurirwa mituweli ari benshi, kandi bakaba bahabwa serivisi zijyanye no kwivuza.

Iyi ni inyubako ndende iherereye mu mujyi wa Kigali ahatangirwamo serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, aho hepfo y'iyo nzu hari inzu yindi y'umweru nayo itangirwamo serivisi za leta, hakaba hari umuhanda nyabagendwa uri gucamo ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi bigiye bitandukanye ndetse n'umuhanda w'abanyamaguru.

Iki ni ikigo cy'ubwiteganyirize cya ejo heza, aho gishishikariza buri muturage kwiteganyiriza akabika amafaranga akazafashwa mu gihe ageze mu za bukuru, cyangwa se akazizigamira amashuri y'abana be, cyangwa se akanazigamira ibindi bige bitandukanye.

Ikigo cy'ikigo nderabuzima cyakira abarwayi ndetse n'abarwaza, aho umuturage atabasha kurembera mu rugo akabasha kugana ivuriro rimwegereye, hanyuma agahabwa ubufasha bujyanye n'ubuvuzi igihe icyo ari cyo cyose, igihe yatanze ubwishingizi bwo kwivuza.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: ibyo kurya, ibyo kunywa, n' ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo mu nzu, n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. iryo soko rikaba ari ryiza ryubakishije amakaro harimo: amatara y'bwoko bwinshi ,n'ibicuruzwa byinshi cyane.

Tuhasanga ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye yaba ibikomoka ku buhinzi, ibikorerwa mu nganda ndetse n'ibikomoka ku matungo.

Isoko dusangamo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi bugiye bitandukanye harimo ibiribwa ibinyobwa n'ibindi bicuruzwa by'ubwoko bwinshi, hakaba harimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hakaba harimo ibiribwa ibikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka ku buhinzi.

Amasoko manini ndetse n'amato yo mu Rwanda tuhasangaho ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, aho dusanga ibiribwa bifunze mu dukarito ndetse ibinyobwa bifurinze mu dukarito, ibiri mu dupipiri, ibiri mu tujerekani kandi bikaba ari ibinyobwa byiza byujuje ubuziranenge.

Icyapa kigaragaza isoko rya Simba supermarket, aho muri iryo soko uhasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Aho wahasanga ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikomoka ku matungo ndetse n'ibikorerwa mu nganda, zaba iza hano iwacu cyangwa hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho wakwifashisha mu rugo iwawe cyangwa se ku kazi muri ofisi, aho harimo ibikomoka ku matungo, ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye bigiye bipanze mu ma etajeri.

Ku masoko yo mu Rwanda tukabona ibiribwa n'ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye harimo ibikorerwa mu nganda ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka ku matungo, bikaba ari ibinyobwa byujuje ubuziranenge aho biba bifunze mu bipimo bitandukanye kandi bibitse neza.

Tuhasanga ibiribwa bigiye bitandukanye byaba imbuto, imboga ndetse n'ibitera imbaraga. Kandi tukanahasanga ibinyobwa by'ubwoko bwinshi yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Amasoko yaha iwacu mu Rwanda dusangamo ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye, aho buri muturage abasha kugera agahaha kandi agahaha ku igiciro gitoya kimubereye.

Isoko ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye. Ukaba wasangamo ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa. Yaba ibiribwa bikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka ku matungo. Akaba wasangamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye. Hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwihahira ibyo bicuruzwa.

Amasoko menshi yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, duhasanga ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, yaba ibikomoka ku buhinzi, ibikomoka ku matungo, ndetse n'ibikorerwa mu nganda, aho tuhasanga amavuta, imbuto, imboga ndetse n'ibindi biribwa byinshi bigiye bitandukanye n'ibinyobwa byengerwa mu nganda z'aha iwacu mu Rwanda ndetse n'ibikomoka hanze.

Isoko ricuruza ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibikoresho twakifashisha mu gikoni; hakaba harimo umugabo ufite akagare bahahiramo ari kugenda agasunika uwo mugabo akaba yambaye ishati y'umukara; inyuma ye hakaba hahagaze abandi bahungu babiri umwe yambaye ishati y'umukara n'undi yambaye ishati y'umweru.